Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto. Ku nkengero zawo hari inyubako zisa neza, ibyapa biriho ikigo cy'ubwishingizi cya Sanilamu mu Rwanda mu bijyanye no gutanga inguzanyo. Amapoto ariho amatara yo ku muhanda.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi cya sanilamu mu Rwanda, kiri mu mabara y'ubururu ndetse nay'umweru harimo abagabo bambaye amakositime yo mu bwoko butandukanye ndetse n'abadamu bambaye imyenda itandukanye.

Ubwishingizi bwo kwivuza bwagenewe amatsinda bw'ikigo cya batowimu. Jari umugabo wambaye isarubeti n'uwambaye iy'ubururu, imbere harimo agapira k'umutuku, bari mu gikorwa cyo kubaza ibikoresho bitandukanye.

Hano hari umucuruzi, uri kumwe n'umuguzi, ucuruza ibicuruzwa by'ubwoko bitandukanye, hari ibirungo, hari amabase, hari fanta, hari umuceri n'akawunga, hari n'umunzani yifashisha mu gupima ibiro bitandukanye bitewe n'ibyo umukiliya ashaka.

Hano hari botike irimo umucuruzi ucuruza ibintu byinshi bitandukanye. Haba amavuta yo kwisiga, udusakoshi, amabombo, amashikarete, ndetse n'uduswaro.

Hano hari butike irimo abacuruzi batandukanye, bacuruza imyenda itandukanye, haba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, hari imikandara n,amapantaro n'amakoti ndetse n'imipira.

Ibikoresho bikorwa n'abize ibijyanye n'imirimo y'amaboko. Hari ibyakifashishwa nk'imitako yo gushyira mu nzu, cyangwa se byo gushyiramo udukoresho tumwe na tumwe dutandukanye. Haba inzembe, amakaramu, amatiro, ndetse n'amarabero.

Isoko ririmo imyenda y'abagabo ndetse n'iy'abagore hari udusengeri, udupira amakoti ya similikire hari amapantaro y'abakobwa hari amashati y'abagabo ndetse n'inkweto z'abakobwa.

Imyenda y'ubwoko bwose yambarwa n'abakobwa cyangwa se abadamu, hari amakanzu, amapantaro, udusengeri, imipira n'udukabutura ndetse n'ibindi bibafasha gusa neza, mu gihe bagiye ahantu hatandukanye.

Ibikoresho bikorwa n'abize ibijyanye n'ubugeni ndetse n'ama dizane, hari ibikoresho gakondo nk'inkangara ndetse n'inkoni zifashishwa mu bijyanye n'imisango y'ubukwe hari imyenda idoze mu madizayini ubwoko butandukanye ibikoresho byakifashishwa nk'imitako yo mu nzu ndetse n'ibindi.

Hano hari ikizu cyubakiye kirimo imodoka zo mu bwoko bwa yu endayi, hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi munce zitandukanye ndetse n'amapoto ariho amatara ku muhanda.

Ku muhanda hari indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari ibyapa vyamamaza imodoka zo mu bwoko bwa yundayi, ipoto ririho itarari ryo k'umuhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Iyi ni imodoka iri mu bwoko bwa Volkswagen, iri kugurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda, muri Kigali Car Market, hirya yaho hari ibiti ndetse n'amazu.

Umugabo w'imibiri yombi yambaye ikositime y'umukara iriho akabara k'umweru, ishati ya bulusiyeri ndetse na karuvate y'umukara, yambaye isaha y'umuhondo ari gukoresha mudsobwa,

Amafaranga mirongo itanu, akoreshwa na banki nkuru y'u Rwanda. Hariho umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ndetse n'ikigori gitonoye. Yifashishwa mu kugura ibintu byinshi bitandukanye, haba bombo ndetse n'ibirungo.

Aya ni amafaranga angana n'ibihumbi bibiri akoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda akaba afite amashusho, atandukanye haba imisozi, ibiyaga, ndetse n'imigezi byose biboneka mu Rwanda.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda idoze, nayo imanitse ku twuma dufite ibara ry'umweru, hasi no hejuru ndetse iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'inkingi zishinze z'umweru zifasheho iyo myenda imanitse.

Hari ameza afite ibara ry'umweru amaguru y'ibara ry'umukara, hari kandi n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ku meza hateretseho agacupa karimo kireda zifashishwa mu gihe umuntu asoje kurya inyama cyangwa se ibindi bintu bishobora kuba byafata mu menyo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kubika neza umusaruro w'amata, waturutse mu duce dutandukanye, uyu musaruro ugahabwa abakiriya batandukanye.

Dayari shopu irimo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, hari amata y'inyange, amaji akoze muri pome ndetse n'ayandi akoze mu myembe. Hari kandi n'amazi y'inyange, hari n'intebe zicarwaho n'abakiriya mu gihe baje gufata izi porodagiti zitandukanye.

Hano hari indobo irimo amandazi abiri, ndetse n'icyuma cyifashishwa mu gufata amandazi bayahereza umukiriya, mu rwego rwo kwirinda kuyakoreshaho intoki, bikaba byateza umwanda.

Uburyo butatu bwo kohereza amafaranga ku muntu wese udafite banke akawunti. Hari uburyo bwo kuba uyafite mu ntoki, gukoresha eyeteeri mani cyangwa se gukoresha mobayiro mani.

Hano hari icyemezo gitangwa na rwanda reveni otoritikigaragaza ko umucuruzi atarimo umwenda w'imisoro, gihabwa umuntu udafite umwenda n'umwe mu misoro ya rwanda reveni otoriti.

Icyemezo gitangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda gihabwa abacuruzi mu gihe bamaze kwandikisha bizinesi zabo, mu rwego rwo kwirinda ko zazafungwa mu gihe basanze zitandikishijwe kuko zaba zikora mu buryo butemewe n'amategeko.

Umuryango ukoreramo kampani ya dukomere ukaba ukora ibijyanye no kuvunja ndetse no kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga haba ku bakiriya bifuza guhindura amafaranga y'abanyarwanda bayashyiramo ay'amanyamahanga cyangwa se guhindura amafaranga y'abanyamahanga bayashyira mu mafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inyubako ya etaje irimo ibikorwa bigiye bitandukanye: hari ahacururizwa imyenda yo kwambara ndetse n'umuryango urimo ibijyanye no kuvunja no ku kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga, ukorwamo n'uwitwa Frank.

Intebe ndetse n'ameza bisa neza cyane bikozwe mu biti; byifashishwa mu ngo nyinshi zitandukanye mu bijyanye na saramanje; hakaba hafatirwaho bureke fasite, race ndetse na dina

Icyumba kirimo igitanda gifite ibara rya kacye, harimo amashuka y'umweru ndetse n'imisego y'umweru. Gifite akabati gasa ibara ry'icyatsi, amarido afite n'ibara ry'umweru.

Inyubako ifite saro nziza mumakaro asa neza, hari intebe nziza cyane zo bashyira muruganiriro ndetse na ameza asa neza. Hari kandi na igikoresho munzu bita kizimyamwoto, bashobora kwifashisha mugihe haba hatatswe na umuriro.

Umudugudu urimo amazu yubatse mu bwoko butandukanye hari umuhanda urimo abamotari batwara abagenzi ndetse hari n'amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi muri uwo mudugudu, hari n'agace karimo ibikoresho byo mu nzu haba utubati intebe ndetse na matera.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, bicaye ku meza n'intebe by'umukara. Ayo meza ateretseho amazi yo mu macupa yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Inyubako ifite akabati, imeza ndetse n'intebe bifite ibara rya shokora. Ku meza hari ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya by'amoko atandukanye, hari kandi na esikariye zizamuka zijya mu zindi aparitoma zitandukanye, hari indabo zitegurwa mu nzu.

Intebe nziza kandi zisa neza zishyirwa mu ruganiro ziri mu mabara y'amoko atandukanye iz'umweru, iz'ubururu iz'umutuku ndetse n'iz'umukara. Hari kandi n'amezaza asa neza ndetse n'amakaro meza.

Hoteli yubatse ahantu heza kandi ifite isuku, hari ibiti by'ubwoko butandukanye hari pisinine nziza kandi nini, intebe zicarwaho abakiriya basoje cyangwa se bagiye gukoresha pisine.

Pisine nini yubatse ahantu heza, ifite intebe zicarwamwo abakiliya bategereje kujya mu mazi, mugihe bari gufata ibintu bitandukanye, haba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, yubatse imbere ya hoteli ya etaje, inyuma yayo ikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Hoteli nziza kandi yubatse ahantu heza ku buryo abantu baba bitegeye imisozi ndetse n'imidugudu itandukanye, hari pisine nini kandi nziza ndetse n'intebe zicarwaho abakiriya basoje cyangwa bagiye gukoresha pisine.

Iyi ni menu yo kuri GREAT HOTEL iherereye Kiyovu ifite dizayini nziza ndetse iriho n'ibicuruzwa bitandukanye bifite n'ibiciro bigiye bitandukanye bitewe nibyo umukiriya yifuza gufata muriyo hoteri.

Hoteli nziza cyane yubatse ahantu hameze neza, ikaba ifite aho bakirira abakiriya hari ameza ariho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa biri mu nzego zitandukanye, intebe zicaraho abakiriya nategereje cyangwa se basoje gukoresha pisine.

Hotel nziza kandi isa neza ifite intebe zakira abakiriya bakeneye serivisi zitandukanye, haba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hari kandi n'indabo nziza ziteye ku nkengero za hotel.

Hoteli nziza kandi isa neza, yubatswe ahantu hafite furesheri zimeze neza zituruka mu biti bikikije. Iyi hotel hari kandi n' intebe zicarwaho n'abakiriya mu gufata serivisi zitandukanye, haba izijyanye no gufata ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa.

Hoteli ya Garandi Legasi ni hoteli nziza cyane iherereye i Kigali, iri mu mabara y'umuhondo, ikaba ifite ibyumba byo kuraramo, sale zo gukoreramo inama ndetse n'aho kwakirira abakiriya bafata ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa bitandukanye.

Hoteri nziza yubatse neza kandi iri ahantu hameza neza, imbere yayo hari jaride irimo ibiti ndetse n'indabo zo mu bwoko butanddukanye. Yakira abakiriya bakeneye serivise haba ibijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Hoteli nziza kandi isa neza, ifite intebe zakira abakiriya bakeneye serivisi zitandukanye, haba ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari kandi n'indabo z'amoko atandukanye, pisine nziza kandi n'intebe zicarwaho n'abakiriya basoje cyangwa bagiye gukoresha pisine.

Hoteli nziza kandi isa neza. Yubatse ifite amabara mu marange atandukanye, yaba ubururu ndetse n'ayandi. Ifite pisine nziza kandi nini. Hari indabo z'ubwoko bwose ziteye imbere ya hoteli ndetse no kunkengero za pisine.

Hoteri nziza kandi yubatse neza mu mabara meza atandukanye, hari jaride irimo indabo z'amoko yose, ndetse harimo n'intebe zakira abakiriya muri serivisi zitandukanye, haba mu kubaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari kandi na pisine nziza kandi nini.

Hoteli nziza yubatse ahantu heza ku buryo umuntu aba afata furesheri zimeze neza, ifite intebe zo kwakiriramo abakiriya mu gihe bari gufata ibintu bitandukanye haba kunywa ndetse n'ibyo kurya, hirya yaho hari umudugudu urimo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Hoteli nziza yubatse ahantu heza ku buryo abakiriya bicara bitegeye umujyi, ifite ahantu abakiriya bicara bafata serivisi zitandukanye haba ibyo kunywa ndetse n'ibijyanye n'ibyo kurya.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Hoteli irimo jaride, ifite indabo ndetse n'ibyatsi byiza, hari intebe zo kwakiriramo abakiriya, ndetse zifite n'umutaka, kugira ngo ubarinde izuba ndetse n'imvura.

Hoteli nziza kandi isa neza yubatse ahantu hameze neza hari kandi pisine nini kandi nziza hari intebe zicarwaho n'abasore cyangwa abagiye gukoresha pisinine. Jaride irimo indabo nziza kandi z'amoko yose intebe zicarwaho nabakiriya bari gufata serivisi zitandukanye haba ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa.

Hano hari inyubako irimo ibikorwa bitandukanye haba serivisi za bipiyara bake ibicuruzwa by'inyange indusitirizi, ibijyanye na radiyanti insurense kampani ndetse hakaba hari na farumasi.

Umuhanda uriho indabo ndetse n'ibiti byagenewe guterwa ku muhanda, harimo ibinyabiziga n'imodoka ndetse na moto, hari inyubako nziza ya etaje mu mabara atandukanye y'ikigo cya saniramu.

Inyubako y'ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cya suram. ni inyubako isa neza kandi yubatse ahantu heza mu mabara y'ubwoko butandukanye, imbere yayo hari jaride irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, ku muhanda hari amatara yo ku muhanda ibyapa ndetse n'ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi.

Itangazo rya ayi andi emu banki mu gushaka abakozi ku mwanya wa imvayironimento andi sosho risiki manajimenti sipeshiyalisite bashyizeho dediliyini yo ku itaraki cumi n'enye, z'ukwezi kwa gatandatu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane saa kumi n'imwe z'umugoroba.

Abagore barimo abirabura ndetse n'umuzungu bari ku nyubako ifite amarangi y'ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi bafite ibikoresho byifashishwa mu kubika umusaruro w'amata, inyuma y'abo hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ibidukikije bigizwe n'ibiti, ubusitani bwiza bugizwe n'indabo ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse hari ibiti birebire bifashe insinga z'umuriro ukwirakwiza amashanyarazi.

Inyubako ya etaje nini kandi isa neza, imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko bwose, hari abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, umutaka urimo umu agenti wa emutiyene ari gutanga serivisi zitandukanye, ipoto ririho insinga, zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Iri ni isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye byerekeranye n'imbuto. Rikaba ririmo amaronji, avoka, inyanya, ndetse n'imineke.

Hano hari abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye haba inyanya, ibitunguru, beterave ndetse n'intoryi.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi batandukanye harimo ibicuruzwa nk'ibitunguru, inyanya, intoryi, ibitonore by'ibishyimbo ndetse n'amashaza hari imbuto nka kokombure n'izindi mboga zitandukanye, hari udufuka twifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byaguzwe n'abakiriya.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi, harimo n'imyenda y'ubwoko butandukanye, haba amajezi amashuka, imyenda y'abamama harimo abatayeri badoda imyenda itandukanye ikozwe mu bitenge.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi bakeneye serivisi zitandukanye, hari imbuto nk'imineke, amaronji, indimu, ibinyomoro, pome, wotameloni ndetse n'ibindi. Hari kandi n'igikoresho cyifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro.

Ibikoresho bikorwa n'abize ibijyanye n'umugeni. Harimo udukapu, uduseke, imitako itakwa mu nzu, intebe za kinyarwanda zo kwicaraho, inkangara, inkoni zifashishwa mu misango y'ubukwe, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umudugudu urimo inyubako z'ubwoko butandukanye zifite amarangi y'amabara atandukanye, hari moto ndetse n'imodoka iri mu muhanda, amatara yo ku muhanda, amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'ibiti biteye muri uyu mudugudu.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye hari ibicuruzwa nk'ibirungo, amacuta, amakaroni, amadegede, amashu, kokombure, imiteja, puwavuro ndetse n'inyanya n'ibitunguru.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye; hari sufurere, pavuro tungurusumu, karoti, inyanya, igitoki ndetse n'ibindi. Bihabwa abaguzi kugirango ngo abashe kurya ifunguro rimeze neza kandi ryujuje intungamubiri.

Mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Haba inyanya, amafu, yaba ay'ubunyobwa, kawunga, ndetse n'umuceri. Hari urusenda n'ibindi. Hari umucuruzi uri guhereza umukiriya ibicuruzwa bitandukanye, bitewe n'ibyo ashaka.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye bari gucuruza imbuto z'ubwoko bwose hari ibinyomoro, imineke, amaronji, imyembe, amatunda, amananasi ndetse n'ibindi. Harimo kandi n'umucuruzi wambaye agapira ka pnki ndetse n'ijipo y'umutuku.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Haba amadegede, amashu, inyanya, kokombure, puwavuro, imiteja, amavuta, amakaroni, ndetse n'ibirungo. Harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi mu bicuruzwa bitandukanye.

Isoko ririmo imyenda itandukanye yambarwa n'abantu mu ngeri zitandukanye. Haba abagabo, abagore, ndetse n'abana. Hari udukanzu, udupira, utujipo, amapantaro, amasogisi, n'ibindi bitandukanye.

Abacuruzi ndetse n'abaguzi mu ngeri zitandukanye; ibicuruzwa by'ibirayi ndetse n'ibitoki hari kandi n'iminzani bifashisha mu gupima ingano y'ibiro bitewe n'ibyo umukiriya ashaka; udufuka bakoresha mu gushyiriramo abakiriya ibicuruzwa bahaguze.

Abacuruzi bacuruza ku muhanda ibicuruzwa bitandukanye haba inyanya, intoryi ndetse n'urusenda. Hari abaguzi mu ngeri z'ubwoko bwose haba abamama, abakowa, abagabo ndetse n'abana.

Abakobwa babiri bakorera umurongo w'itumanaho Emutiyeni. Bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo ndetse na baji, byose bigaragaza ko ari abakozi ba Emutiyeni, muri gahunda yo gukora simu swapu ku buntu, kugira ngo uhabwe jigabayiti imwe mu minsi irindwi.

Umurongo w'itumanaho wa eyateri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru utanga serivisi zitandukanye haba kugurisha amayinite kubitsa no kubikuza amafaranga kuri akawunti ya eyateri mani.

Akazu gakoreramo umu ajenti wa emutiyeni mu gutanga ama inite, ndetse no kubitsa no kubikuza amafaranga kuri akawunti ya momo hari abakiriya mu ngeri zitandukanye haba abadamu, ndetse n'abagabo bakeneye serivisi zitandukanye. ku nkengero zako hateye ibiti ndetse n'indabo zitandukanye.

Akazu gakoreramo umu ajenti wa MTN muri serivise zitandukanye kugurisha amayinite, kubitsa no kubikuza amafaranga. Harimo umu ajenti wambaye umwenda w'umweru, hirya ye hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, imbere ye hari uwambaye ishati y'icyatsi.

Ikigo cy'itumanaho rya MTN mukwamamaza serivise za MOMO, hari abakozi bo muri iki kigo bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo ndetse niry'ubururu byose bigaragaza uyu murongo w'itumanaho wa MTN.

Aba ajenti ba emutiyeni mu bijyanye na mobayilo mani bambaye imipira y'ibara ry'umuhondo igaragaza umurongo w'itumanaho wa emutiyeni, bari gukoresha mudasobwa mu gutanga serivise za emutiyeni ku bakiriya batandukanye.

Adivatayizimenti ikorwa n'umurongo w'itumanaho wa Emutiyeni. Hari abantu mu ngeri zitandukanye, haba abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imipira y'umuhondo igaragaza umurongo wa Emutiyeni, hari n'umuhanzi Bwiza.

Hano hari umwajenti wa ari kumwe n'umukiriya ari muri serivisi zijyanye no kubarura umukiriya mu gihe aje kugura simukadi ya emutiyene.

Akazu gakoreramo umu agenti wa emutiyeni hari serivise zo kugura ndetse no kwandikisha simukadi ya emutiyeni, hari abagabo babiri harimo umwisiramu wambaye ikanzu ifite ibara rya burusiyeri ahetse ibage y'umukara.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye ari umuceri, kawunga, ibirungo inoryi, karote, inyanya, udufuka twifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byaguzwe n'abakiriya n' amavuta ndetse n'amakaroni.

Umutaka w'umurongo w'itumanaho wa Emutiyene, hari umu agenti wambaye jire ifite ibara ry'umuhondo. Ari kumwe n'umukiriya wambaye umupira w'umutuku n' marineti. Inyuma yabo hari igiti.

Umugabo uri kuri moto wamabaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara, ari kumwe n'umu ajeti wa emutiyene, yambaye umupira w'umuhondo ugaragaza umuronko w'itumanaho wa emutiyene, mo imbere yambariyemo umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara.

Umu agenti wa MTN wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, ugaragaza umurongo w'itumanaho wa MTN ari kumwe n'umukiriya muri gahunda yo kwishyura ukoresheje Momo.

hano hari akazu karimo umu ajenti wa emutiyeni ukora muri serivisi zitandukanye, haba mu kubitsa no kubikuza amafaranga, ndetse no gutanga amayinite ari kumwe n'umukiriya ukeneye serivisi zitandukanye.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Iyi ni adivatayizimenti ikorwa n'umurongo wa eyateli mu kwamamaza, jigabayiti mirongo itandatu, iminota yo guhamagara, ndetse na esemesi ku mirongo yose, byose bigatangwa ku mafaranga ibihumbi bitanu.

Moto iri mu muhanda ya kampani ya vuba vuba iderivaringa imbuto, ndetse n' ibiryo ahantu henshi hatandukanye. Ifite igikoresho kifashishwa mu gutwara ibyo kurya cyangwa se imbuto riri mu ibara ry' icyatsi. Hari umugabo wambaye umupira w' icyatsi ugaragaza kampani akorera.

Hari abagenzi bari gukoresha inzara yagenewe abanyamaguru ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye hari umukozi wa kampani ya vuba vuba ishinzwe kuderivaringa ibijyanye n'imbuto imboga ndetse n'ibindi ahantu hatandukanye bitewe n'abakoze ku muhandade.

Ku nkengero z'umuhanda, hari moto yifashishwa na kampani ya vuba vuba, muku derivaringa ibintu bitandukanye bitewe n'abakoze komande, hari kandi n'inzira yagenewe kunyurwamo abanyamaguru ndetse n'inyubako ifite porotayi yubakishije amatafari ahiye ,fondasiyo y'amabuye asanzwe.

Ni imodoka ndende itwara abagenzi muri rusange iri gutambuka m'umuhanda, ifite ibara ry'ubururu hasi rikurikirana n'iry'umweru agahondo gake ndetse n'ibirahuri by'umukara iruhande rw'umuhanda hari gutambuka umuntu.

Inyubako ifite agaciro k'ibihumbi magana atandatu ku kwezi mu kuyikodesha, ikaba ifite ibyumba bibiri , iherereye i Kigali. Ifite amakaro ndetse isize n'amarangi y'ubwoko butandukanye, ikaba ifite na kizimyamwoto izifashishwa mu kuzimya mu gihe habayeho inkongi y'umuriro.

Inyubako iherereye i Kigali, ifite ubwogero ndetse n'ubwiherero busa neza cyane bwubatse mu makaro asa neza, ifite ibyumba bibiri ikaba ikodeshewa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ni inzu nziza ifite amarangi atandukanye ndetse ikaba ifite n'amatara ahantu hose.

Inzu yubatse neza kandi isa neza iherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa Kibagabaga, ifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye ndetse na porotayi ifite urugi rw'umukara, ifite amapave ndetse na parikingi y'imodoka jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Inyubako nziza kandi isa neza mabara meza y'umweru, amakaro asa neza, hari intebe zifite ibara ry'icyatsi, intebe nziza cyane, hari kandi na televiziyo ndetse n'indabo zitakaka mu nzu, hari vandarateri ishobora kwifashisha mu gihe aho hantu hari ubushyuhe.

Inyuba ko ifite igikoni kirimo ibikoresho ndetse n'ibyangombwa bisabwa kugirango igikoni kiba kimeze neza kandi cyujuje ibisabwa, iherereye i Kigali ukaba wayibona ku madorari ibihumbi maganabiri ku kwezi.

Umugabo w'inzobe wambaye kositime, ishati ndetse n'ipantaro, ahagaze imbere y'inyubako isa neza cyane mu marangi y'umweru ifite inzugi zifite ibara ry'umukara, imbere yayo hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Iyi ni inzu iherereye Kigali ahitwa i Kanombe, ikaba ifite ubwogero butatu ndetse n'ibyumba bine byo kuraramo, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye i kigali kabeza ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero butatu ikaba ifite amabara meza umweru umukara ndetse n'ayandi, fondasiyo yubakishije amabuye asanzwe ateyemo amabara y'umukara.

Hano hari inzu iri mu mabara atandukanye ikaba ikodeshwa iherereye i kigali ahitwa kimironko ifite ibyumba byo kuraramo bibiri, ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa n'amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa iherereye i kigali ahitwa i kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ku mafaranga ibihumbi magana ane ku kwezi y'amafaranga y'u Rwanda, ifite igikari kirimo amapave n' amayesikariye, yubakushije amakaro ameze neza.

Inyubako ya etaje iri mu mabara atandukanye, ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Imbere yayo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara urimo amabara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi baricaye, abandi barahagaze, umwe ahagaze imbere yabo, ari kuvugira mu irangururamajwi, afite ibyo arimo kubabwira, yambaye isaha, yicaye mu ihema ry'amabara atandukanye; icyatsi, kibisi, umuhondo, ubururu, umweru.

Hano hari inzu zikodeshwa ziherereye i Kigali ahitwa Kibagabaga zifite jaride, zifite ibyumba bitanu n'ubwogero butanu, zikaba zikodeshwa amadolari igihumbi na magana arindwi ku kwezi.

Inzu nziza yo gukodesha iherereye i Kigali ahitwa Kabeza. Ni inzu yubatse ifite amabara meza y'amarangi ndetse n'amabati, ikaba ifite ahantu hisanzuye kuburyo wabona n'aho ushyira parikingi y'imodoka cyangwa se moto.

Inyubako nziza ya etage isa neza mu mabara meza atandukanye umweru, umutuku ndetse n'ayandi hari kandi igikari kirimo amapave ndetse na jaride irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu nziza yubatse mu mabara meza, ikaba ifite ahantu hisanzuye ku buryo waba wahaparika imodoka cyangwa se moto, ikodeshwa iherereye Kigali ahitwa Kicukiro ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu yubatse neza kandi isa neza mu mabara meza y'ubwoko butandukanye ifite amapave ndetse ifite na jaride irimo indabo z'amoko atandukanye. Ikaba iherereye i kigali ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu k'ukwezi ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Inzu yubatse neza ya etage ndetse ifite n'amabara y'ubwoko butandukanye, inzu ifite ahantu hisanzuye hari amapav ku buryo ushobora kubura n'aho waparika imodoka ikaba iherereye i Kigali ahitwa mu Rugando hafi ya Komveshoni senta ukaba wayibona ku madorari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Hano hari inzu ifite amarangi atandukanye, ifite amatara, ifite indabo ku ruhande zitandukanye ndetse ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ni inzu ikodeshwa ikaba iherereye i Kigali ahitwa Kanombe, ikaba ifite ibyumba byo kuraramo bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza kandi isa neza yubatse ahantu heza mu mabara atandukanye haba ay'umweru, umukara ndetse n'ayandi, ifite jaride zirimo ibyatsi ndetse n'indabo by'ubwoko butandukanye ikaba iherereye i Kigali.

Iyi ni inzu ifite ubusitani bwiza, iri hantu hameze neza kandi ikaba isa neza, iherereye Kibagabaga, ikaba ikodeshwa amadolari ibihumbi bitatu ku kwezi.

Inyubako nziza iherereye i kigali ahitwa kibagabaga ikodeshwa amafaranga y'U Rwanda ibihumbi magana atatu, ifite ubwogero bubiri ndetse n'ibyumba byo kurararamo bibiri isize amabara atandukanye y'amarange

Inzu yubatse neza kandi isa neza mu mabara atandukanye. Ifite jardin irimo indabo nziza ndetse n'amapave. Ikaba ikodeshwa, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwogero bubiri. Ikodeshwa amadolari igihumbi ku kwezi.

Inzu igurishwa amafaranga miliyoni ijana iherereye i Kigali ahitwa i Kanombe, ni inzu yubatse neza ifite amarange mu mabara atandukanye ifite ama esikariye imbere yayo hari amapave ari mu bwoko busize amabara atandukanye.

Inzu ikodeshwa ifite amabara y'umutuku ay'umweru ndetse n'aya buresiyeri, irimo ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganatatu mirongo itanu ku kwezi iherereye Kigali ahitwa Kimirinko.

Inzu nziza iri ahantu heza kandi yubatse neza ikaba ikodeshwa iherereye i Kigali ahitwa i Kanombe ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu yubatswe neza kandi isa neza, ifite amabati y'ibara ry'umutuku, ndetse iteye amarangi y'umweru, n'ayandi ifite igikari kinini cyubakishije amapave, hari kandi na jaride irimo indabo n'ibiti by'amoko atandukanye.

Isoko ririmo abacuruzi bari gucuruza ibicuruzwa bijyanye n'imbuto harimo; wotameloni, amaronji, imyembe, imineke, avuka, amatunda, ibinyomoro, amapapayi, ndetse n'amaronji.

Hano hari isoko ririmo abacuruzi batandukanye, bacuruza ibicuruzwa bikomoka mu buhinzi. Haba dodo, inyanya, amashu, karoti, ndetse na powavuro.

Isoko ririmo inkweto z'abagabo, imikandara y'abagabo ndetse n'udukapu tw'abadamu, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi haba ababagabo ndetse n'abagore.

Ni ikigonderabuzima cyubatse neza kandi gisa neza mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, cyakira abarwayi bafite indwara zoroheje zitabashsba kujya ku bitaro bikuru hari kandi abaganga batanga serivisi zitandukanye kuri iki kigonderabuzima.

Abadamu bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, akoreshwa mu rwanda afite ibara ry'umuhondo, abafasha kujya kwa muganga kugira ngo abashe guhabwa imiti bitewe n'indwara bafite.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ndetse n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda arayesesibi, ifite ibara rya buresiyeri, ifasha umurwayi kujya kwa muganga kugira ngo ahabwe imiti bitewe n'indwara afite.

Ikigo nderabuzima cya Remera kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Cyakira abantu mu ngeri zitandukanye haba abarwaye indwara zitandukanye, abagore batwite, abaje kwipimisha, ndetse n'abaje mu gikorwa cyo kubyara.

Hano hari metuweri nyinshi cyane izi zifashishwa mu gihe umuntu yarwaye akayitwaza agiye kwa muganga kugirango ngo abashe kureba niba yarishyuye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza abone guhabwa imiti.

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye hari isukari ya yirovo ndetse n'ibindi hari agakoresho kifashishwa n'abakiriya, mu gihe bagiye kugura ibicuruzwa byinshi kandi bitandukanye, kakamufasha kubitwara kugira ngo abigeze aho bari bumubabarire ingano y'amafaranga agomba kwishyura ibyo bicuruzwa.

Umukozi ukorera sosiyete yitwa vuba vuba, ari kugeza ku muguzi ibicuruzwa yashakaga kandi urabonako bishimye bombi , yaryohewe na serivise yahawe nziza kandi ikeye.

Supamaketi irimo ibicuruzwa biri mu moko atandukanye, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi, ikoti ry'ikoboyi ndetse n'agapira k'umweru, afite agakoresho kifashishwa mu isoko rya supamaketi kugira ngo kagufashe gutwara ibicuruzwa mu gihe uri butware byinshi utabasha gutwara mu ntoki.